Kwa muganga hagomba kuba hari ibikoresho by'ubutabazi bw'ibanze kugira ngo igihe bahazanye umurwayi abe yabuhabwa kandi ku igihe. Icyo gihe iyo butahabaye biteza ibindi bibazo birimo no kuba yahita abura ubuzima bwe.

Ni byiza ko tuba dufite ubutabazi bw'ibanze aho turi hose kugira igihe umuntu agize ikibazo tube twamujyana, tumushyikirize abaganga bamwiteho ku buryo bworoshye atararemba ngo bibe byagorana.

Abaganga burya ni bamwe mu bantu bitanga cyane kubera ko bakora serivisi ikomeye yo kuba bagarura ubuzima bw'umuntu bwendaga kuzima, niyo mpamvu rero, bagomba kunyurwa n'ibyo bakora kandi natwe tukabibubahira.

Bimwe mu bikorwa by'ubutwari byakunze kugaragara mu Rwanda, ni ukuba abantu batanga amaraso kubera ko igikorwa cyo gutanga amaraso kiramira ubuzima bw'abantu benshi, nyamara abatabiha agaciro batangire babitekerezeho.

Buri kigo gishinzwe ubutabazi bw'ibanze kigomba kuba gifite nimero itishyurwa, abantu bagize ikibazo bakaba ihamagara mu buryo bwihuse ,kikaba cyakemurwa kuri buri muntu wese.

Ni byiza ko Ambilansi ziba zihari kwa muganga kubera ko hari igihe umurwayi aba yarembye kandi ubuvuzi akeneye butari bukorerwaho bikaba ngombwa ko ariyo imujyana ku bindi bitaro bikomeye.

Abashinzwe umutekano na none kandi, ni bo bonyine bamenya ikibazo cyabereye muri ako gace cyane cyane nk'iyo habaye inkongi y'umuriro, bakaba batanga ubutabazi bw'ibanze.

Kwa muganga habayo ahantu bajyana umurwayi bakamuha ubutabazi bw'ibanze bwihutirwa igihe babona ko arembye. Mbere y'ibyo ngibyo babanza no kumusuzuma akareba ikibazo yaba afite.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bwo mu mutwe kigomba kuba gifite n'imodoka kuko rimwe na rimwe cyegereza serivisi abaturage kikaba cyabitaho ndetse abafite ibyo bibazo bagakurikiranwa.

Iyo umuntu yavunitse ukuguru, agomba kujyanwa kwa muganga kugira ngo babe bamuvura kubera ko ari bwo butabazi bw'ibanze umuntu yahabwa.

Igihe cyose uwacu agize ibibazo tukabona nta buryo bwo kwifashisha tumujyana, tuba dufite n'intebe twakoresha tumutwaramo kuko burya na yo yaba ubutabazi bw'ibanze bitewe na serivisi igezweho.

Igihe cyose tubonye umuntu wigunze cyane cyane uwicaye ku muhanda ubona ko afite ibibazo, ntitukamunyureho kuko ibibazo iyo birenze umuntu atekereza n'ubundi buryo bwo kuba yabikemura birimo nko kwiyahura.

Ubutabazi bw'ibanze buba bukenewe cyane kubera ko abantu bakunze kugira ibibazo bitandukanye bakabura ubutabazi bw'ibanze ugasanga barembeye mu ngo zabo bakagezwayo kwa muganga babaye indembe.

Bimwe mu bikoresho muganga atabura igihe yageze mu kazi, kuba afite agakaramu akegeranya ibindi bikoresho iruhande rwe kugira ngo buri kintu cyose akeneye bitaza kumusaba guhita agenda ngo age kugishaka.

Abantu cyane cyane abaganga bagomba kwita ku isuku yo kwa muganga, boza ibikoresho bijye bitandukanye kuko biba byakozwe n'abantu benshi kandi baba banduye bashobora guteza indwara ku bandi.

Kimwe mu bintu biba bikenewe n'abarwayi cyane ni ukubaha aho barara ndetse mu byumba byabo hakaba harimo n'inzitiramibu ibarinda kurumwa n'umubu utera malariya, bikaba byiza harimo na vandarateri ihuha kugira ngo babone umwuka mwiza.

Byakunze kugaragara kwa muganga kenshi ko kuva aho uvurirwa kugera usohotse hagomba kuba hasakaje amabati mu kayira abantu bagenderamo kubera ko ibi bibafasha kwirinda izuba ndetse n'imvura.

Kwa muganga burya na ho hagomba kuba hari ibikoresho by'ikoranabuhanga, muganga yifashisha igihe bamubwiye indwara kugira ngo ubuvuzi bwihute kubera ko ikoranabuhanga ryazanywe mu koroshya akazi.

Iyo ugeze kwa muganga, bamaze kugusuzuma, bakurambika ku gitanda, ubundi ubuvuzi bundi bugakurikiraho nyuma ariko babanje kureba icyo urwaye, hanyuma bakamenya n'imiti y'ubwoko bari buguhe.

Ahantu hatangirwa serivisi z'urubyiruko, hagomba kuba hashushanyije n'amafoto agaragaza urubyiruko rwicaye ndetse hari n'abayobozi barwo baruhagarariye barimo bararubwira ubutumwa bashaka kurubwira.

Ku bitaro ni hamwe mu hantu hagomba kuba, hujuje ibisabwa, ibyo twavugamo nko kuba hatewe ubusitani bwiza, hari ibiti bitanga umuyaga, ndetse urabona ko hari n'isuku yo ku rwego rwo hejuru.

Kwa muganga ni ho ugera honyine ugasanga hari agatanda barambikaho umurwayi ndetse hejuru ye hari n'ibyuma biba byamufotora kugira ngo barebe ikibazo yaba afite bamuvure.

Ibitaro bigomba kuba bifite ubusitani bwiza igihe cyose umurwayi yumva atameze neza akaba yakwiyicariramo akaba atora akayaga, kugira ngo ubuzima bwe bukomeze bugende neza yumva atekanye.

Burya abarwayi bagendera mu kagare na bo bafite ubushobozi nk'ubwacu. Ntitukage tubaheza ngo twebwe dufite imbaraga tubatange gukorerwa izo serivisi nyamara na bo ni abantu nk'abandi.

Kwa muganga ni ho hantu honyine hagomba kugirirwa isuku irenze ahandi hose kubera ko umurwayi iyo arembye agakubitiraho n'umwanda, icyo kiba ikintu cya mbere gishobora gutuma ubuzima bwe buzima ako kanya.

Buri vuriro rigomba kuba rifite ambilansi kugira ngo ibe yatabara umuntu mu buryo bwihuse, abe yashyikirizwa ku kigo nderazima kimwegereye cyane cyane amavuriro y'i Nyagatare yo ubona ko abyubahiriza cyane, ntashobora kubura ambilansi.

Iyo ugeze kwa muganga bagupima ibizamini bigiye bitandukanye, basanga ugomba gufatwa amaraso bakagutera urushinge, bagafata amaraso, bakareba ikibazo waba wagize.

Igihe kwa muganga hahuriye abantu benshi bagiye nko guhabwa amahugurwa cyangwa ibindi biganiro se, hagomba kuba harimo n'umuntu ushinzwe umutekano kuko abantu bose ntabwo batekereza ibikorwa by'amahoro gusa.

Igihe umuganga yageranyije ibimenyetso byose yakuye ku murwayi, abijyana muri Laboratwari akaba yabisuzuma, hanyuma yamara gusanga arwaye, akamukurikirana akaba yamuha imiti.

Kwa muganga hagomba kuba hari laboratwari, ni ukuvuga inyubako igomba gusuzumirwamo imiti mbere y'uko bayiha abarwayi ndetse igakorerwamo n'ibindi bigendanye na serivisi z'abarwayi mbere yuko bazihabwa zikabanza gusuzumwa.

Iyo umuganga amaze gupima umurwayi akamara kubona ibimenyetso byose yabihuje, amaze no kumutera urushinge, afata amaraso ye akayashyira mu kuma kabugenewe kugira ngo ayapime arebe icyo umurwayi arwaye.

Mbere yuko umuganga atera imiti umurwayi agomba kuba yabanje kuyisuzuma niba nta kintu kibi yagira ku murwayi birimo nko kuba yamwangiriza ubuzima.

Iyo ugeze muri laboratwari itegurirwamo imiti y'ubwoko butandukanye, nibwo umenya ko abaganga baba bafite ubumenyi kuri ibyo bintu. Kuko ugeramo ugasanga ni ubwa mbere ibyo bikoresho wowe ubibonye.

Umuganga cyangwa umuforomo wese agomba kuba afite ibikoresho akenera igihe agiye kuvura umurwayi, harimo nko kuba afite serumu igihe ari bwongerere umurwayi amazi mu mubiri.

Iyo tubwiwe kwirinda amakimbirane ntitukabifate nk'ibintu by'aho dukoresha tukumva bigahita birangirira aho, kubera ko ibyinshi byagaragaye ko tubikoreshwa n'ibiyobyabwenge, ari byo bituma twiroha mu bintu byose birimo gukimbirana n'abandi.

Ni byiza ko buri mudugudu ushyiraho byibura uburyo abana babo bazajya banywa amata kubera ko umwana wanyoye amata akiri muto, akurana ubwenge budasanzwe.

Buri gace cyane cyane nk'umudugudu ugomba kuba ufite aho abana bato cyane bazajya bigira bagahabwa ubumenyi bakiri bato mbere yuko batangira aya mashuri ya Leta.

Ni byiza ko abarezi twisanisha n'abana batoya tugakinana nabo kugira ngo bumve ko badahagarikiwe n'umuyobozi ubashyiraho igitsure, ahubwo bumve ko bari gukinana na mugenzi wabo bityo bishimire ubuzima.

Igihe bigaragara ko umuntu agifite ibibazo byo gutekereza neza ndetse ubona ko hari ikintu abura mu bwenge bwe, ni ngombwa ko tumujyana ku kigo gishinzwe ubuganga bwo mu mutwe bakaba bamukurikirana.

Igihe cyose imbere yacu hari umuntu urimo uratubwira afite igikoresho kirangurura amajwi, tugomba kumutega amatwi tukumva neza ibyo arimo atubwira hanyuma tukabishyira mu bikorwa.

Ubuzima bwo mu mutwe ni byiza ko abantu babwigishwaho bakamenya uburyo bikorwa, bakamenya uburyo babyirinda kugira ngo uzagira icyo kibazo bazabimenye vuba bamushyikirize ku kigo nderabuzima kimwegereye bamufashe.

Nitubona umuntu agize ikibazo kigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe, si byiza kwihererana ngo tumwihorere ahubwo tugomba kumufata tukamushyikiriza ibitaro, bikaba byamusuzuma kuko n'indwara yitabwaho igakira.

Urubyiruko ni bo ba mbere bashishikarizwa kwirinda ibiyobyabwenge kubera ko iyo tunyweye ibiyobyabwenge byangiza ubuzima bwacu tukiri batoya, harimo nko kuba twareka amashuri ndetse tugakora ibikorwa by'urugomo.

Abantu bakora serivisi zo kwa muganga, bagomba kuba bafite aho bacururiza imiti cyane cyane amafarumasi, kubera ko iyo babyize biroroha cyane guhita bamenya imiti baha umurwayi.

Iyo abantu babonye ko serivisi zo kujya kwa muganga gushaka imiti ziri kure, bubaka farumasi ahegereye abaturage kugira ngo igihe cyose bakeneye izo serivisi bazibone mu buryo bworoshye.

Ni byiza ko urubyiruko rushishikarizwa uburyo bwiza bwo gukoresha agakingirizo kubera ko byagaragaye ko urubyiruko rukunze kuba urunyantege nke, mu bintu bigendanye n'imibonano mpuzabitsina idakingiye.

Igihe hateguwe igikorwa runaka kizahuza abantu benshi, hagomba gukorwa amafoto y'abazatambutsa ubwo butumwa ndetse hakandikwaho n'insanganyamatsiko hejuru ndetse bikerekanwa n'aho bizanyuzwa kugira ngo byumvwe.

Nyuma y'uko bigaragaye ko abana b'ingimbi n'abangavu, bakunze kugira ikibazo cy'uko kwifata byabananiye, leta y'u Rwanda yashyizeho, kuba yakegereza buri muturage agakingirizo kugira ngo uwananiwe kwifata, abe yagakoresha.

Hagomba kubaho inama zihuza abantu, byibura buri cyumweru kugira ngo bige ku kintu runaka kizagirire akamaro abandi baturarwanda, bityo bagahuza uwo mugambi.

Abaganga nibo bafata imiti gakondo bakamenya uburyo bayikoresha kugira ngo ivure abarwayi kubera yuko bamaze kumenya ko nayo burya ikize abarwayi badakoresheje ibi binini bisanzwe.

Imyitozo igorora imitsi na yo iba ikenewe ku murwayi kubera yuko hari igihe arwara indwara, bamupima bagasanga imitsi ye yariyinyaritse, ikeneye kuramburwa kugira ngo yongere amaraso atembere mu mubiri.

Umuhinzi agomba kujya afata igihe agasuzuma cyangwa akagenzura neza ibyo yahinze ko birimo bitanga umusaruro ntaterere iyo ngo abe yabireka nyamara ashyizemo imbaraga ze zose nibwo umusaruro uboneka.

Imiti gakondo ishobora kuvura indwara zigiye zitandukanye ariko abakunze kuyikoresha biba byiza iyo bafite ubwo bumenyi cyangwa uwayihinze akaba yayijyana mu nganda igatunganywamo indi.

Gukoresha imiti gakondo ntabwo bikigezweho muri iyi minsi, kubera ko abaturage bashishikarijwe kujya begera amavuriro abegereye, ahubwo iyi imiti igakoreshwa mu nganda igatunganywamo indi.

Ababyeyi bashishikarizwa gukingiza abana inkingo zose ari nta na rumwe basize, kubera yuko umwana ufashe inkingo zose akura neza mu mitekerereze ndetse no mu bwenge agakura azi ubwenge.

Niba waragiriwe amahirwe ukiga ubuganga ukamenya uburyo bukorwa ugomba nawe kudasubiza inyuma amahirwe ukabikorana umutima ukunze kuko aricyo uba warabyigiye.

Ni byiza ko tuba dufite ahantu hatwegereye hashinzwe serivisi z'ubuzima kugira ngo igihe cyose twumva tutameze neza tube twahagana mu buryo butworoheye.

Ni byiza ko umukozi ukora muri farumasi cyangwa kwa muganga, agomba kuba yambaye agapfukamunwa kugira ngo yirinde ibintu byose byaza gutuma yanduriramo izindi ndwara, kuko ari byo byiza akaba afite ubwirinzi buhagije.

Imiti yose ikoreshwa kwa muganga igomba kuba ifite ahantu heza kandi hizewe ibikwa kugira ubuziranenge bwayo buhoreho, kandi ikoreshwe ari uko yapimwe neza niba iyo miti icyujuje ubuziranenge.

Muganga wenyine niwe wemerewe kuba yagira icyo akorera umurwayi nko kuba yamushyiraho ibyuma bimupima kubera ko ariwe wenyine ufite ubumenyi ndetse yaranabihuguriwe, akaba yabasha kumenya icyo umurwayi arwaye.

Ni byiza ko umuganga agomba kuba afite ibikoresho by'ikoranabuhanga, kuko ibintu byose ntabwo aba abizi mu mutwe, ahubwo hari ibyo akoresha ikoranabuhanga akaba yabasha kubibona mbere y'uko abikorera umurwayi.

Ni byiza kujya inama mu kazi ko dukora ako ari ko kose kuko iyo mugiye gutangira akazi mukajya inama, biba byiza ndetse mukora n'ibintu muziranyeho kandi muzi neza kubera yuko mwabanje kubijyaho inama.

Igihe cyose habaye ubukangurambaga cyangwa habaye igikorwa gituma tuza kumva ibigendanye n'ubuzima bwiza, ni byizi ko tubyitabira kuko umuntu adafite ubuzima bwiza n'ibyo akora ntibyaba bizima.